Ikigo gishinzwe ibijyanye n'amazi, aho buri muturage wese ukeneye kwegerezwa amazi mu rugo yandikira iki kigo akabibasaba, bakamufasha kubona amazi mu rugo, kugira ngo harusheho kwimakazwa isuku n'isukura.

Umubyeyi uri kumwe n'umwana we w'umuhungu, uyu mubyeyi arimo gufasha umwana we ari kumukorera isuku amukarabya mu ntoki akoresheje isabune ndetse n'amazi, ibi ni ingenzi kubera ko umwana mutoya ntago aba yakamenya uburyo yakwita ku isuku ye.

Mu mudugudu ku ivoma rusange ry'abaturage, aho buri muturage wese ajyana ijerekani akajya kuvoma amazi, kugira ngo arusheho kuba yakwikorera isuku ndetse aba ahantu hasukuye kubera ko isuka ari isoko y'ubuzima.

Igikorwa cyo kugaburira abana bato indyo yuzuye, harimo ibitera imbaraga, ibirinda indwara ndetse n'ibyubaka umubiri, aho ababyeyi bafite abana batoya bari munsi y'imyaka ibiri, bagenda bakabahuriza hamwe, bakajyana amafunguro atandukanye, bakabatekera ndetse bari kumwe n'abayobozi.

Hano hari umubyeyi ufite umwana urwaye ndetse ari kumwe na muganga, muganga arimo gufasha umubyeyi guhereza umwana umuti, arimo kumuha umuti kugira ngo amuvure abashe gukira indwara.

Mu kigo cy'ishuri, mu masaha yo gufata amafunguro ya saa sita aho buri munyeshuri ahabwa ibyo kurya mu buryo bwo kumufasha kugira ngo abashe gukomeza amasomo y'ikigoroba ameze neza nta kibazo afite.

Itsinda ry'abantu bo mu bigo bitandukanye bishinzwe ubuzima, batanga inama mu gukangurira abantu kwirinda igwingira ry'abana n'uburyo bwo kwita ku mugore utwite, mu kugira ngo umwana uzavuka, azavuke nta kibazo.

Ku bitaro hari ababyeyi batatu b'igitsina gore ndetse n'umuganga, aho aba babyeyi baje bagana muganga mu buryo bwo kugira ngo babashe kumenya neza uko imiterere y'imitima yabo ihagaze, hari umubyeyi umwe ufite igipimo mu kuboko ndetse hari n'abandi babyeyi babiri ubona ko bategereje kugira ngo bafashwe na muganga.

Umwana w'umuhungu, agiye kuvoma amazi yavomeye mu ndobo ndetse ari kunywa amazi akoresheje ibiganza, yunamye kuri robine.

Gukaraba intoki ukoresheje isabune ndetse n'amazi meza bidufasha kwirinda zimwe mu ndwara zandurira mu mwanda, nk'inzoka ndetse n'indwara zandurira mu gihe wakoze aho umuntu urwaye yakoze, ibi ni ingenzi cyane kubera ko bituma ubuzima bwacu burushaho kuba bwiza kandi isuku ni isoko y'ubuzima.

Itsinda ry'abantu bari mu nama yiga ku bijyanye n'ubuzima, barebera hamwe ibitera ubuzima bubi ,ndetse barebera hamwe n'icyatera ubuzima bwiza, n'uburyo bwo kurwanya bimwe mu bitera ubuzima bubi yaba ubuzima bwo mu mutwe cyangwa ubundi buzima bw'izindi ngingo, ndetse bakarebera hamwe uburyo bakomeza kuzamura ireme ry'ubuzima.

Itsinda ry'abantu b'igitsina gabo bicaye bahuriye ku meza bari kuganira, baganira ku bijyanye n'ubuzima, uburyo abaturage barwaye bajya bagera kwa muganga, uburyo bakwitabwaho mu buryo bw'isuku, ndetse n'uburyo barushaho guteza imbere ubuzima bwiza.

Isuku mu bigo by'amashuri, aho umwana uvuye mu bwiherero cyangwa se ahandi hantu yaba yakoze ku myanda, aba asabwa gukaraba intoki n'amazi meza ndetse n'isabune, kugira ngo aze gusubira mu bandi afite isuku.

Ku kigo nderabuzima mu cyumba kwa muganga, hari umubyeyi wazanye umwana we urwaye ndetse hari n'abaganga bari kwita kuri uyu mwana, bamupfuka ahari ibikomere nk'urugero nka hano ku kuboko, barimo kumupfuka mu kugira ngo abashe gukira ibisebe.

Abaturage begerejwe amazi, mu gihe bajyaga kuvoma kure bibavunnye, ubundi bagakoresha amazi mabi babashije kubona ariko hano abaturage begerejwe amazi, basigaye bavoma hafi ndetse bakanayabona mu ngo zabo.

Ku ivomo, aho abaturage bakura amazi, hari umwana umaze kuvoma amazi mu ndobo ayateretse inyuma, arimo gukaraba intoki akora isuku kugira ngo arusheho kugenda asa neza kandi yirinde umwanda yaba yahakuye.

Abana bato b'abanyeshuri biga mu mashuri abanza bagiye kuvoma amazi yo kwifashisha mu gukora amasuku mu mashuri yabo cyangwa se icyo nakwita gukoropa, kubera ko biba byiza iyo umunyeshuri yigiye ahantu hasukuye, bimurinda guhura n'imyanda cyangwa se kwandura indwara zituruka ku mwanda.

Mu mudugudu, aho bahuza abana bakiri batoya, bakabatekera indyo yuzuye, harimo ibyo kurya, harimo igikoma, hano hari n'inzego zitandukanye, harimo inzego z'umutekano zaje kwifatanya n'abaturage mu buryo bwo gufasha abana kurushaho kugira imibereho myiza n'imikurire myiza, babagaburira indyo yuzuye.

Itsinda ry'abaganga barimo igitsina gore ndetse n'igitsina gabo, bakora mu bigo nderabuzima mu kwita ku buzima bw'abarwayi, mu kuvura indwara zitandukanye, ubuzima bw'ababyeyi ndetse n'ibindi, bambaye impuzankano y'akazi bakora k'ubuganga.

Abantu bari kwiga ku bijyanye n'ubuzima bw'abana, biga ku mikurire y'umwana, imibereho ya buri munsi, uburyo barinda umwana kugwingira ndetse n'uburyo barushaho kuzamura imikurire n'imikorere myiza y'umubiri w'umwana.

Itsinda ry'abantu barimo abagore ndetse n'abagabo, bari mu nama bari mu biganiro, bari kuganira ku bijyanye n'ubuzima ndetse bafite n'ibitabo cyangwa se amakayi yo kwandika bimwe mu by'ingenzi biri buvugirwe mu kiganiro.

Umuntu w'igitsina gore, wicaye munsi y'igiti, uziritse umunyururu mu kuguru, yicaye ku kirago kizinze, kuri icyo giti hari amagambo yanditseho ndetse urabona ko uyu muntu ashobora kuba afite ikibazo cy'ihungabana cyangwa se ikindi kibazo cyo mu mutwe.

Umuntu ufite ikibazo cyo mu mutwe cyangwa se ikibazo cy'imitekerereze, yambaye ipine, yambaye imyenda isa nabi, yicaye hasi, akeneye kujyanwa kwa muganga, agahabwa serivisi z'ubuvuzi mu buryo bwo kwita ku kibazo afite cyo mu mutwe, akaganirizwa kugira ngo abashe kongera kugira imitekerereze mizima.

Ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima, gitanga ibiganiro ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, uburyo twakwirinda kugira ibibazo byo mu mutwe. Kubera ko iyo umuntu agize ikibazo cyo mu mutwe, nta kindi kintu abasha gutekereza kizima, nta gikorwa kizima yakora, niyo mpamvu ari ingenzi, ku kwita ku buzima bwo mu mutwe tukabubungabunga neza.

Umukecuru utetse yicaye mu rugo ariko hari ibintu bijagaraye ubona ko hari akajagari k'ibintu ndetse n'ibikoresho bimwe na bimwe biragaragara ko batabikorera isuku ihagije biri hasi, muri make nta makuru afite ku buryo yakwita kuri ibi bikoresho byo mu rugo.

Umuntu ufite ikibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe, wicaye hasi mu myanda, yambaye imyenda isa nabi kubera ko atabasha gutekereza ko isuku ari ingenzi mu buzima cyangwa se kuba yakwigirira isuku, uyu nguyu agomba kwitabwaho, agakurikiranwa, akaganirizwa kwa muganga kugira ngo abashe kuba yagarura nibura ubuzima bwiza bwo mu mutwe.

Abana bato bakikije umuntu mukuru w'igitsina gore ababana ntabwo basa neza ntago bafite isuku ndetse barashonje bakeneye kwitabwaho bakeneye kugaburirwa bakeneye gukorerwa isuku nyine bakeneye kwitabwaho mu buryo bwose kuko ntabwo baragera mu gihe cyo kuba bakwifasha cyangwa ngo bikorere ibintu by'ibanze mu buzima.

Umuntu wicaye, arigunze, arimo kwitekerezaho cyane, afite agahinda, biragaragara ko ababaye, ariko uyu muntu bari kumwe agomba kumuganiriza, akagerageza kumwibagiza ibiri kumutera ubwigunge no kubabara gutya, kugira ngo bitagira ingaruka mbi ku mitekerereze cyangwa se ku mikorere y'ubwonko.

Umubyeyi w'umumama uri ahantu wenyine mu nzu, arimo kwitekerezaho arigunze, bino bishobora gutuma umuntu atekereza ikintu kitari cyiza, agafata umwanzuro utari ukwiriye ku kibazo ataganirijeho abandi, ari byo bimwe bishobora kuvamo gukora ibyaha, kwiyahura n'ibindi bitari byiza.

Itsinda ry'abantu barimo na nyakubahwa madame Jeannette Kagame, bafite impapuro cyangwa se ibyapa birimo kudukangurira ku kwita ku buzima bwo mu mutwe. Kubera ko turabizi ko ubuzima bwo mu mutwe, ni izingiro cyangwa se ni ipfundo ry'ubundi buzima bwose. Nta buzima bwo mu mutwe dufite, nta bundi buzima twagira.

Umukobwa urimo gukora isuku y'amenyo cyangwa se koza amenyo, akoresheje uburoso ndetse n'umuti w'amenyo uzwi nka korogate, mu buryo bwo gukuramo imyanda bityo bikamufasha kwirinda zimwe mu ndwara z'amenyo zishobora guterwa n'imyanda yo mu kanwa.

Abana bato barimo gukora isuku y'amenyo, aho buri mwana wese afite uburoso n'umuti w'amenyo ndetse n'agakombe k'amazi, bifashisha mu gihe bamaze koza amenyo

Umuntu ufite amenyo, aya menyo ye arasa neza ni umweru, ariko afite ikibazo nk'amenyo abiri y'imbere yo hasi afite ikibazo cyo kuba yegamiranye ndetse amenyo yiwe urabona yuko atanareshya.

Abantu bakuru, bari mu cyumba cy'uburiro bafata amafunguro, harimo imboga, ndetse bafite n'amazi, mu buryo bwo kwiyitaho, kugira ngo barusheho guhangana n'indwara zo mu zabukuru, nk'urugero nk'indwara y'ubuhumyi, turi kubona imboga, kandi ni bimwe mu biribwa bidufasha kurwanya indwara z'ubuhumyi.

Umumama ugeze mu kigero cy'izabukuru ari kumwe n'umwana muto w'umukobwa w'umwangavu, uyu mukobwa mu by'ukuri yita kuri uyu muntu kubera ko ageze mu myaka ya bukuru, hari byinshi atakibasha kwikorera hari byinshi atagishoboye ni ngombwa ko abana bato twita ku bantu bakuru ku buzima bwabo kugira ngo babashe gusaza neza kandi tubashe kubarinda zimwe mu ndwara zataka abantu bakuru.

Kwita ku muntu ugeze mu myaka y'izabukuru mu kumutegurira amafunguro yujuje ubuziranenge ndetse afite intungamubiri, harimo nk'imboga, imbuto n'ibindi bimufasha gutuma umubiri we urushaho gukora neza kandi ukabasha guhangana n'indwara zatakaba ari mu zabukuru.

Madamu wa perezida wa repubulika y'igihugu cy'u Rwanda Janete Kagame uri gutanga ikiganiro cyo ku buzima bwo mu mutwe, aho avuga ko iyo umuntu afite ikibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe byangiza iterambere ry'igihugu ndetse ko nta buzima twaba dufite mu gihe tudafite ubuzima bwiza bwo mu mutwe.

Kuzamura cyangwa se kongera imibereho myiza cyangwa se ubuzima bwiza binyuze mu gutanga amasomo ku bijyanye n'ubuzima mu kuzamura iterambere ry'abaturage, ubagira inama y'uburyo bakora n'uburyo bakwitwara kugira ngo babashe kurushaho kugira ubuzima bwiza.

Repubulika y'u Rwanda, Minisiteri y'Ubuzima, aho umwe mu baminisitire bashinzwe ubuzima, ari kumwe n'abihayimana b'ababikira, umwe muri bo, bari kuramukanya, bigaragara ko bagiye kuganira ku bijyanye n'ubuzima muri rusange.

Ku munsi Mpuzamahanga, aho Isi yose yiga ku bidukikije, bikadufasha kumenya ibidukikije icyo ari cyo, bigizwe n'amashyamba n'imigezi, imisozi ndetse n'ibindi. Tukamenya uko twabyitaho n'uburyo twabibungabunga kubera ko ni isoko y'ibyiza bya buri munsi, biduha amazi, bikaduha ibyo kurya n'ibindi byinshi bidufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Ikigo cy'Igihugu gishinzwe ubuzima mu Rwanda aho bita ku buzima butandukanye bw'abantu, cyane cyane abarwayi, batumenyesha uburyo twakwita ku isuku, uburyo twakwirinda indwara zitandukanye, harimo nko gukaraba amazi meza ndetse n'isabune, kurya indyo yuzuye kandi ifite isuku ndetse n'ibindi.

Inama cyangwa se ikiganiro gishishikariza, cyangwa se gikangurira, guhagarika no kurandura burundu virusi ya Marburg, aha hakubiyemo ibiyitera, uko ikwirakwira ndetse n'uburyo yakwirindwa, iki ngenzi cyane, ni uko ivaho burundu igakurwaho.

Umuntu uri gutanga amakuru cyangwa se uri kumenyesha abaturage ko habonetse urukingo rw'ubushita bw'inkende, mu by'ukuri ubwo buri muntu wese agomba kugana ikigo nderabuzima cyangwa akagana kwa muganga bakamufasha guhabwa urukingo rw'ubushita bw'inkende mu buryo bwo kwirinda kwandura cyangwa se gukwirakwira kw'iyo ndwara y'ubushita bw'inkende.

Inama mpuzamahanga yiga ku bijyanye n'ubuzima bw'abaturage muri Afurika, ikubiyemo bimwe mu bitera ubuzima bubi cyangwa mu byangiriza ubuzima ndetse n'ingamba z'uburyo twabungabunga ubuzima tukarushaho kugira ubuzima bwiza muri rusange.

Ubukangurambaga ku buzima bwo mu mutwe, aho batubwira ko ubuzima bubi bwo mu mutwe busenya umuryango w'abaturage ndetse bukanadindiza iterambere, ndetse ubuzima budafite ubuzima bwo mu mutwe ntabwo buba ari ubuzima ntabwo buba bwuzuye.

Ibimenyetso by'indwara ya Diyabete, birimo kumva ufite inyota nyinshi cyane, gukenera kwihagarika mu buryo budasanzwe, kutabona neza, kumva unaniwe ndetse no guta ibiro utabishakaga cyangwa se utabiteganyije.

Inyubako y'ibitaro, irimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa kwa muganga, harimo nk'ibitanda, ibi bitanda ni byo abarwayi baryamaho, mu gihe bakiri guhabwa ubuvuzi ndetse bategereje ko bakira bagasezererwa bakabona gutaha.

Umubyeyi wabyaye uri ku bitaro ari kumwe na muganga, mu buryo bwo kumenya uko azajya yita ku mwana, imikurire y'umwana, uko yamurinda kugwingira, uko yamurinda indwara zitandukanye n'uburyo yarushaho kumwitaho neza kugira ngo umwana akurire mu buzima bwiza.

Ku kigo nderabuzima cya Tabagwe, aho hari urujya n'uruza rw'abantu bagana serivisi zo kwa muganga ndetse n'abazitanga, bambaye udupfukamunwa mu buryo bwo kwirinda indwara zimwe na zimwe zandurira mu myanya y'ubuhumekero ndetse no ku munwa.

Ku kigo nderabuzima, mu cyumba, kwa muganga, aho harwarira abarwayi b'igitsina gabo, hano hari abagabo babiri ndetse n'abaganga babiri bari kubitaho, bose urabona ko bambaye udupfukamunwa, mu buryo bwo kurushaho kwirinda indwara zikwirakwira zinyuze mu mwuka no mu matembabuzi ndetse urabona ko bitaweho neza rwose.

Inyubako y'ibitaro bikuru by'Akarere ka Nyarugenge, aho hazanwa abarwayi bavuye ku bigo nderabuzima bitandukanye, mu gihe ibyo bigo nderabuzima bidafite ubushobozi bwo kuba byabavura bakoherezwa ku bitaro bikuru.

Inyubako y'ibitaro, aho haba hari ibimenyetso bijyanye n'ibibera mu cyumba nk'urugero hano, hari ibimenyetso bigaragaza icyumba kirimo ibikoresho byifashishwa mu gihe habayeho ikibazo cy'inkongi y'umuriro, hari ibindi bimenyetso bigaragaza icyumba cya tuwalete, hari n'ibindi bimenyetso biyobora umuntu bikamwereka ahantu agomba kunyura.

Abanyeshuri biga ibijyanye n'ubuzima bari muri laboratwari, bakora ubushakashatsi ku bintu bitandukanye ndetse biga barusha no kwihugura kugirango bizabafashe mu kazi kabo k'ahazaza kajyanye no gukurikirana ibinyabuzima.

Umugore n'umugabo bagiye bagana serivisi z'ubuvuzi, hano bagiye kwipimisha kwa muganga, hari ugupima umuvuduko w'amaraso bakareba uko amaraso yabo atembera mu mubiri, hari no kwipimisha SIDA bakareba uko ubuzima bwabo buhagaze, mu buryo bwo kwirinda kubaka umwe yayanduza undi cyangwa se yayikwirakwiza mu gihe asanze ayifite.

Inyubako yitwa isange wanu sitopu centa, aho wakirira abakorewe ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Ni ngombwa ko buri muntu wese wahohotewe yaba igitsina gore cyangwa se igitsina gabo, yakorewe ihohoterwa rishingiye ku gitsina agana iki kigo. Kugira ngo bamufashe mu buryo bwubuvuzi ndetse n'uburyo bwo kurenganurwa muri leta.

Umuganga wasuye abaturage ndetse urabona ko umuturage umwe umuri iruhande ashobora kuba atwite, abagira inama ku bijyanye n'ubuzima uko bakwita ku bagore batwite, uko bakwirinda igwingira ry'abana ndetse n'uburyo bakwirinda indwara zitandukanye zikwirakwira cyangwa se izindi zishobora kuba zandurira nko mu mwanda.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi bw'amaso, aho bari gushishikariza abantu bari hejuru y'imyaka mirongo itandatu n'abari munsi y'imyaka cumi n'ibiri, kuba bagana iyo nyubako bakisuzumisha amaso ku buntu, ndetse n'abandi bose bafite ibibazo by'amaso babafitiye imiti, hari n'amarinete yo kwambara, mu gihe babona biri ngombwa ni byiza ko bagana ubuvuzi.

Inyubako y'ikigo nderabuzima iba irimo ibikorwa bitandukanye harimo ubusitani, harimo n'inzu zakirirwamo abarwayi aho umuntu wese wumva atameze neza, wumva ufite indwara agana kwa muganga bakamuha serivisi z'ubuvuzi, bakamuha imiti akavurwa agakira.

Ku bitaro kwa muganga mu cyumba kirimo abarwayi b'abagore, hano hari umuganga urimo kwita ku murwayi ubona ko ari kumuganiriza ndetse hari n'igipimo afite mu ntoki kimufasha mu kwita kuri uyu murwayi.

Inyubako y'ibitaro bifite inzu zivurirwamo abarwayi, bikaba bifite n'ubusitani; harimo ibiti, indabo ndetse muri ubwo busitani harimo ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda cyangwa se idarapo, bikabamo n'abarwayi bari kugana kwa muganga.

Ku kigo nderabuzima mu cyumba kwa muganga, aho hari umuganga ndetse n'umwana, uyu muganga arimo kwita ku mwana w'uruhinja wavutse, bamufasha muri serivisi z'ibanze mbere y'uko basezerera umubyeyi akaba yakemererwa kujyana umwana mu rugo.

Ku bitaro mu cyumba kwa muganga, hari umuganga ndetse n'umwana waje ugana serivise z'ubuvuzi, umwana afite igipimo mu kuboko mu buryo bwo kureba imiterere y'umutima, umuvuduko w'amaraso, umuganga na we yambaye agapfukamunwa mu buryo bwo kwirinda indwara.

Aha ni ku bitaro bitanga serivisi z'ubuvuzi bw'amaso, aho buri muntu wese ufite ikibazo cy'amaso nk'urugero ushobora kuba utareba ibintu biri hafi yawe, ukaba ureba ari ukuri uri kure y'ibintu cyane ndetse n'ubundi bwoko bw'indwara z'amaso, buri muntu wese ufite ikibazo cy'amaso aba agomba kugana ibitaro bakamufasha kugira abashe gukira.

Umukobwa w'umwangavu wicaye hasi arimo gukora imyitozo ngororamubiri agorora amaboko, amaguru, umugongo mu buryo bwo kongera imikorere myiza y'umubiri ndetse no kurushaho kugira ubuzima bwiza.

Hano dufite ibikoresho bitandukanye by'imyitozo ngororamubiri, harimo nk'umugozi wo gusimbuka, hari inkweto zo kwambara, ndetse hano dufite n'amafunguro arimo imbuto, harimo n'inyanya, ibitunguru ndetse n'ibindi bituma imibiri yacu ibasha kugira ubudahangarwa bwo kuba yakatakwa n'indwara.

Hano hari ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu gihe umuntu wari uri gukora imyitozo ngororamubiri agize ikibazo, nk'urugero nk'iyo avunitse, hano hari bande ugomba kumushyirira ku rugingo rwavunitse, hano hari umukasi ushobora kwifashishwa mu gukata nk'igishishwa mu gihe wenda akomeretse cyangwa asitaye, ndetse harimo n'utundi twuma twifashishwa mu kuba twahandura ikintu cyaba kinjiye mu mubiri.

Umuntu uri kunywa amazi, bigaragara ko amaze gukora imyitozo ngororamubiri. Iyo umuntu amaze gukora imyitozo ngororamubiri, hari ukuntu yumva muri we agize inyota, akumva umubiri we urashyushye, ni na yo mpamvu uri kubona uyu muntu umaze gukora imyitozo ngororamubiri ari kunywa amazi.

Inzu ikorerwamo imyitozo ngororamubiri, irimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa muri icyo gikorwa mu buryo bwo gufasha umubiri w'umuntu gukora neza, harimo nk'uko iyi myitozo ngororamubiri igorora amagufwa, igakomeza imikaya, igatuma umubiri ukora neza ndetse igatuma n'umuntu abasha gutekereza neza.

Umuntu ufite ikibazo cy'ukuguru kw'iburyo ari kwa muganga, iruhande rwe hari abaganga hari ndetse n'abandi bantu bamushyiriye icyuma munsi y'ukuguru kugira ngo ingingo ze zibashe gukora neza.

Mu nyubako ikorerwamo imyitozo ngororamubiri, harimo abagabo babiri hari umwirabura ndetse hari n'umuzungu, barimo gukora imyitozo ngororamubiri kubera ko bamaze gusobanukirwa akamaro k'imyitozo ngororamubiri nko mu buryo idufasha mu kurinda imibiri yacu kuba twarwaragurika cyane ndetse ikaba inatuma imibiri yacu ikomera kandi igakora neza.

Uburyo butandukanye bwo gukora imyitozo ngororamubiri, ku buryo n'umuntu uri mu biro ashobora kuba yayikora nta kibazo, harimo nko kurambura amaboko, kunanura amaguru, kurambura ibiganza ndetse n'ibindi.

Igikorwa kijyanye no gukora imyitozo ngororamubiri aha abantu batandukanye b'ingeri zose bagana icyumba bakoreramo imyitozo ngororamubiri, kugira ngo babashe gufasha imibiri yabo gukora neza babashe kugira ubuzima bwiza kandi babashe guhangana n'indwara zituruka ku kudakora imyitozo ngororamubiri.

Umuntu ufite ikibazo cy'imvune yo mu kaboko mu nkokora, arimo arikanda, ni ukuvuga ngo hano ufata amazi ashyushye ugakozamo agatambaro, ukagenda ukanda ahantu hari kubabara kugira ngo imvune yorohe cyangwa se ikire.

Hano hari igikoresho cyifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri, hari metero yifashishwa mu gupima uburebure bw'umuntu, hari imbuto zo kurya zidufasha mu gutunga imibiri yacu no gutuma imibiri yacu ikora neza ndetse hari n'amazi yo kunywa kandi amazi nayo ni ingenzi kandi ni ingirakamaro mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Itsinda ry'abantu higanjemo urubyiruko ndetse harimo n'abantu bakuru barimo gukora imyitozo ngororamubiri mu buryo bwo kugira ngo imibiri yabo irusheho gukora neza kandi bakomeze kugira ubuzima bwiza.

Umusaruro w'ubuki, aho abavumvu bakora imitiba bakayishyira ahantu, nyuma hakazamo inzuki, inzuki zikajya zikoreramo ubuki, bwamara kuba bwinshi bakajya gusarura, bakajyana ubuki ku isoko kubera ko ubuki ni bwiza, bwongera isukari mu mubiri ndetse bukora n'ibindi bintu bitandukanye by'ingirakamaro ku muntu.

Amoko y'ibiti atandukanye, ibi biti ni ingenzi kubera ko ari bimwe mu biti cyangwa se ibyatsi byifashishwa mu gukora imiti itandukanye ndetse hari n'ibyifashishwa mu kuvura indwara nk'urugero nk'umuravumba uvura inkorora n'ibindi.

Uburyo bwo gukora imiti gakondo cyangwa se imiti y'umwimerere ikomoka ku bimera hifashishijwe uburyo bwo kubisekura, ukabikoramo ifu kugira ngo umurwayi abashe kubinywa mu mazi.

Amavuta yo kwisiga ari mu macupa akozwe mu byatsi karemano, harimo igikakarubamba n'ibindi ndetse akaba ari amavuta avura indwara z'uruhu.

Ibihingwa bitandukanye, cyangwa se ibimera, biboneka ku mugabane wa Afurika, byifashishwa mu gukora imiti itandukanye ivura indwara, ibyo bihingwa harimo umuhoko, umuravumba, imibirizi ndetse n'ibindi nubwo tutabasha kubimenya byose amazina, ariko hari ibihingwa byinshi biboneka kuri uyu mugabane wa Afurika byifashishwa mu gukora imiti.

Iki ni igiti cy'umuravumba, iki giti ni ingenzi cyane, ni umuti uvura zimwe mu ndwara zitandukanye: kivura inkorora, kivura mu nda, kikavura ibisebe ndetse kikifashishwa no mu gukora indi miti yifashishwa kwa muganga, na yo ivura indwara zitandukanye.

Mu ishyamba dusangamo amoko y'ibiti atandukanye ndetse icy'ingenzi ni uko habamo amoko y'ibiti yifashishwa, mu kuvura indwara zitandukanye nk'imibirizi, imiravumba nk'urugero nk'umuravumba, udufasha mu kwivura inkorora ndetse hari n'ibindi bihingwa bikorwamo imiti itandukanye idufasha mu buvuzi.

Mu ishyamba aho hari ari amoko y'ibiti atandukanye, ariko hano hari igiti cy'umuravumba cyifashishwa nk'umuti gakondo cyangwa se umuti wa Kinyarwanda ndetse ukanifashishwa mu gukora indi miti itandukanye mu buryo bwo kuvura indwara zitandukanye, urugero umuravumba uvura inkorora ndetse n'izindi ndwara.

Uburyo bwo gutegura umutobe w'imbuto, hano dufite umutobe w'amacunga, dufite tangawizi, ibi ngibi ni ingenzi cyane mu buzima bw'umuntu kubera ko byongera intungamubiri ziri mu mubiri w'umuntu.